Umwana ukiri muto iya ajyanywe ku ishuri akunda kwigishwa hifashishijwe amashusho y'ibintu bitandukanye nk'amashusho y'inyamaswagira ngo bikangure ubwenge bwe ajye abihuza n'ibibaho mu buzima busanzwe.

Ikigo cy'amashuri abanyeshuri bo mu mashuri abanza cyangwa se abagiye gutangira, abigaho bikaba bigaragazwa n'ibishushanyo birimo imbere, kuko ibishushanyo byifashishwa n'abana bakiri batoya cyane.

Abana bagiye gutangira ku ishuri, bashimishwa no kubona udushushanyo turi ahantu runaka, urugero nk'udushushanyo turi ku ngofero abana bashobora kutubona bakaba badutindaho, bitewe n'uko hari ikintu dushobora kubigisha bityo bakaharangarira.

Umwana kugira ngo yumve ameze neza aba akeneye kwerekwa ibintu bitandukanye n'abana bakiri bato mu gihe bajyanywe ku ishuri bakwiriye kwerekwa ibintu bitandukanye, birimo udupupe kugira ngo bibafashe mu mitekerereze yabo.

Abana bakiri batoya by'umwihariko inshsuke bakunda kwigishwa binyuze mu mafoto, mu gitabo cy'Ikinyarwanda haba harimo amafoto y'abana bakora ibintu bitandukanye kandi ayo mashusho afasha abana barimo kwiga akabakangura mu bwenge.

Amashuri yubatswe ahantu akenshi haba hari ibindi bikorwa remezo hafi yayo, ikibuga cy'umupira ni bimwe mu bikorwa remezo bishobora kutabura imbere y'amashuri kuko bifasha abanyeshuri kwidagadura.

Abana bakunda gukina n'inyamaswa ariko by'umwihariko kugira ngo ukangure ubwenge bw'umwana mu mugihe umujyanye kwiga, ni ngombwa kowifashisha udushushanyo turimo nk'intare, inzovu n'izindi nyamaswa kugira ngo umufashe gusobanukirwa ibyo yiga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, baba bakwiriye guhabwa ibikoresho bibafasha mu gihe biga. By'umwihariko iyo ugeze mu irerero uhita uhasanga ibishushanyo ku nyubako yaho, bigaragaza ko higira abanyeshuri. Ibyo bifasha abanyeshuri bahigira kugira ubushobozi mu bintu bitandukanye.

Abana bakiri batoya bakwiriye kwigishwa ibintu byose kugira ngo bakure bafite ubumenyi bashobo gukoresha mu buzima busanzwe, mu gihe umwana agiye ku ishuri agomba guhabwa ibikoresho ndetse yagera no ku ishuri agahabwa uburenganzira bwo gukoresha ibyo bikoresho kugira ngo akomeze gutera imbere mu mitekerereze ye.

Hari ibishushanyo abarimu bashobora kwifashisha kugira ngo bafashe umwana w'incuke kumenya ibyo yiga ndetse no gukuza imitekerereze ye, ibyo bishushanyo biba biri mu mabara atandukanye ndetse no mu bwoko butandukanye kandi bifasha umwana kwiga.

Abanyeshuri hari ibikorwa bakora bibafasha kugira ngo, bagire ibyo bageraho. Byumwihariko abana bakiri batoya, iyo bajyanwe ku ishuri hari inyigisho bahabwa zikabafasha mu buzima bwabo, ndetse bakongera ubushobozi bwabo bwo gutekereza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se y'incuke baba bakwiriye kwigira ahantu heza ndetse bagahabwa n'ibikoresho bibafasha mu kwiga harimo nko guhabwa amata kugira ngo babashe gukura neza bityo nabo bazagire ibyo bigezaho.

Abana babiri umuhungu n'umukobwa, bari imbere y'inyubako yororewemo inkwavu umukobwa afite urukwavu, uko bigaragara iyi ni ishusho igaragara mu gitabo cy'amashuri y'abanyeshuri bakiri batoya.

Abana bashimishwa no kuba bari kumwe n'abantu bakuru, by'umwihariko abana iyo bitaweho neza bakajyanwa mu bigo abana bakuriramo bishobora gutuma bagira ubwenge kurushaho, kuko bashobora kumenya ibintu by'ingirakamaro bishobora kubagirira akamaro mu gihe kizaza.

Agapupe kameze nk'akana kari ahantu gafite ibara ry'umweru harimo andi mabara y'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, abana bakunda kureba udupupe kandi birabashimisha, niyo mpamvu abana bagitangira kwiga kubereka utwo dupupe birabashimishije cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Barabanza bakigishwa bakoresheje amashusho. Umunyeshuri ushaka kwiga imibare ashobora kujya imbere. Mwarimu akamusobanurira akoresheje ubwenge bwe. Hanyuma akamukangura mu bwonko bwe bwatuma atekereza neza.

Abana b'inshuke baba bakwiriye kwigishwa ndetse bagahabwa n'uburyo bashobora kuba bakidagadura bityo umunyeshuri ntarambirwe ishuri ahubwo agahora yishimiye guhora ku ishuri kandi akumva yajyayo buri munsi kugira ngo yidagadure.

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se bajyanywe gutangira, ni byiza kubereka udushushanyo tw'udupupe dutandukanye kugira ngo bibafashe gukura mu mitekerereze yabo kandi barusheho kumva bishimye ndetse bakunze ubuzima bw'ishuri.

Abana bakiri batoya kugira ngo bagire ibintu bashobora kuba bakigezaho mu buzima bwa buri munsi, baba bakeneye kwerekwa amashusho atandukanye ashobora kubafasha kugira ibintu bikorera bo ubwabo bitabaye ngombwa ko bekererwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho bagira bifashisha mu gushushanya, ibyo bikaba birimo ibafasha gusiba ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha bityo bi bagakangura ubwenge bwabo bakaba abahanga mu ishuri.

Hari ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihe barimo gukora amasomo yabo harimo n'isomo ry'imibare aho bitwaza amarati ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kubafasha mu gihe bari guca uruziga.

Abana bakiri batoya kugira ngo bamenye kwandika bashobora guhabwa ikibaho buri wese akagenda yandikaho ibyo ashaka cyangwa se bagahabwa imyitozo buri wese agahabwa ibyo yandika, buri wese akaba afite ubushobozi bwo kumenya icyo yandika.

Abanyeshuri iyo bakoze ibizamini bakorana umwete kugira ngo bazabone ibisubizo byiza, mu gihe ibisubizo by'ibizamini byaje buri wese aba afite amatsiko yo kureba uko byamugendekeye kugira ngo niba ari byiza abyishimire.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho bifashisha mu gihe bari kwiga, by'umwihariko ibikoresho bifashisha mu isomo ry'imibare, aho bakenera nk'irati, amakomba n'ibindi bintu bashobora kwifashisha baca imirongo cyangwa se uruziga.

Abana biga amashuri abanza baba bakeneye ibikoresho bishobora kubafasha kugira ibintu bashobora kwikorera kandi bigatuma bagira ubushobozi bwo kuba bakitegerereza, ni yo mpamvu ahantu bigira hagomba kuba hari ibikoresho bihagije.

Ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri mu kwiga, harimo akamashini gatoya kamufasha gukora imibare ndetse n'ibindi bikoresho birimo amarati byifashishwa mu isomo ry'imibare.

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se incuke baba bakeneye ibikoresho bibafasha kugira ngo basobanukirwe ibyo biga, niyo mpamvu ku kigo cy'incuke uzahasanga ibikoresho byinshi bifasha abana kwiga harimo n'ibibafasha guteranya n'ibindi.

Abana iyo bari gukina uba usanga buri wese yishimye, yumva abaye inshuti na mugenzi we kandi bahuza urugwiro, buri wese akumva anyuzwe no kuba ari umunyeshuri kandi ibyo bishobora no gufasha abanyeshuri bataye ishuri kurigarukamo.

Amashuri afite akamaro kuko abana baharererwa bakahakura uburere, bashobora kwifashisha bahigira gusoma kwandika ndetse no gutekereza ibintu bishobora kubageza ku iterambere, ubwo rero amashuri akwiriye guhabwa agaciro cyane rwose.

Amashuri abanza, aba yubatse ku buryo umunyeshuri ava mu mwaka wa mbere akajya mu mwaka ukurikiyeho, kandi aba yubatse ku buryo bwiza budateza impanuka, bityo abanyeshuri bakahaba bishimye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bagira akamaro cyane kuko ibikoresho bakoresha biba byaritondewe, ku kigo bigaho hagenda hashyirwaho ibikoresho bitandukanye bibafasha gukomeza kwiga neza bakagira ubumenyi bwihariye.

Abantu benshi bashobora kubona igishushanyo kimeze nk'ihene bakaba bakitiranya n'ihene gusa igishushanyo cy'umukara gifite amaguru maremare n'umurizo muremure ntabwo aba ari ihene kuko ihene iba ifite umurizo utandukanye n'uw'icyo gishushanyo.

Ibikoresho byifashishwa n'abana bakiri batoya, mu gihe bari kwiga isomo ry'imibare, ni ukuvuga abana bo mu mashuri abanza, hakaba harimo amarati abafasha guca uruziga, gushushanya urukiramende n'ibindi.

Abarimu bafite uruhare mu gutuma abanyeshuri bagira ubumenyi runaka, mu gihe umwana yajyanywe ku ishuri, ahigira ibintu ashobora kwifashisha. Mu ishuri umunyeshuri ashobora kuhigira kubana neza n'abandi, ndetse no gushyira ibintu ku murongo.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo abana babo bige ahantu heza, ikigo kigaragara nkaho gifite isuku iyo gifite igipangu kimeze neza ni yo mpamvu hari igipangu cy'umutuku, amashuri afite isuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho bashobora kwifashisha mu gihe biga isomo ry'imibare kugira ngo mwarimu abafashe gusobanukirwa ibyo biga bityo bazagere hanze y'ishuri bashobora gukoresha ibyo bize.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari ibitabo baba bafite birimo ibishushanyo bigaragaza imirimo igenda ikorwa hirya no hino, kandi kwiga binyuriye mu mashusho, bibafasha kurushaho gutekereza neza ndetse no gukura mu mutwe.

Abana bato bakunda gukina imikino itandukanye ishobora gutuma bishima. Birabanezeza cyane iyo babonye abantu bakuru bishimira gukina, nabo bituma baba nk'aho bagaragarijwe urukundo rudasanzwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari ibishushanyo bibafasha gufata mu mutwe ibyo biga. Urugero hari igishushanyo gishobora kwandikwaho inyuguti kuva kuri A kugera kuri ZA. Izo nyuguti zigafasha abanyeshuri gufata mu mutwe inyuguti zose z'ikinyarwanda.

Abana biga mu amashuri abanza na bo baba bakwiriye gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'indi mikino ibafasha kuruhuka no kuba inshuti hagati yabo, bityo n'amasomo agakomeza kubagendekera neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza biga isomo ry'imibereho myiza. Bakiga umuco w'iwabo mu isomo runaka. Ibyo bibafasha gukomeza gutekereza ku ndangagaciro zibaranga nk'abaturage b'Igihugu.

Ikigo cy'amashuri cya Rukomo giherereye mu karere ka Nyagatare, higa abanyeshuri bafite ubushobozi bwo kuba bagira ibintu bakora kandi bafite ubushobozi bwo bakora ikizamini nk'abandi bose, ibyo bibafasha guteza imbere Akarere kabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza nabo bitaweho cyane aho bubakiwe inyubako zimeze neza kugira ngo babashe kuba nabo bakomeza kugubwa neza mu myigire ndetse kandi bashobora no gusurwa n'abayobozi batandukanye barimo n'abasirikare.

Abana biga mu mashuri abanza bashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye mu kubasobanurira. Urugero ushobora kwifashisha ishusho iriho ibikoresho byifashishwa mu buhinzi harimo nk'ipiki, isuka ndetse n'ibindi kugira ngo umufashe gusobanukirwa ibikenerwa mu buhinzi.

Abana biga bakiri batoya nabo hari ibikoresho bagenda bahabwa kugira ngo babashe kwiga neza, hari inyubako zitandukanye zigenda zishyirwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abana bakiri batoya nabo babashe kubona ubushobozi bwo kuba bakiga gusoma no kwandika.

Hari ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bikaba bitandukanye n'ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bishisha. Abanyeshuri bagira ibikoresho bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho bashobora kwifashisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, kugira ngo bagire ibyo bumva, hifashishwa amashusho cyangwa se ibishushanyo ibyo bishushanyo bibafasha gusobanukirwa amasomo biga.

Abanyeshuri biga amashuri abanza bakwiye kwigishwa ibintu byose harimo nko kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri hifashishijwe udukoresho tubafasha mu gufasha abakinnyi b'umupira.

Abana bateraniye hamwe bambaye impuzankano, bikaba bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bateraniye ku kibuga cy'umukino wahujije amakipe runaka kugira ngo bitegereze iza gutsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza hari ibikoresho baba bafite bibafasha mu gihe bari kwiga, bimwe muri ibyo bikoresho harimo nk'igikoresho bifasha umuntu mu gihe ari guca uruziga kandi ibyo biba bikenewe ku bana batoya cyane cyane mu gihe biga isomo ry'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza baba bagomba kwerekwa amashusho atandukanye kugira ngo bagende bamenya ibintu bibera mu isi, mu gihe bashaka kwiga ubwoko bw'amatungo mwarimu ashobora kubereka amashusho agaragara mu gitabo agaragaza nk'inkoko, ifi, urukwavu ndetse n'ipusi kugira ngo bamenye ayo matungo.

Amashuri y'imyuga by'umwihariko amashuri yisumbuye abanyeshuri bashobora kwiga ibintu ariko bakigishwa n'uburyo bashobora kubikora bityo mu gihe basoje bakaba babyifashisha bigatuma batera imbere mu buzima bwabo.

Mu gihe abanyeshuri bagiye ku ishuri hari ibikoresho baba bakwiye kwifashisha, ariko nanone mu gihe bari guhabwa amabwiriza biba byiza iyo bose bambaye impuzankano isa kugira ngo hatagira ubivangamo bityo bikaba byateza akavuyo.

Abanyeshuri inshuro nyinshi bicara hamwe bakagirwa inama y'icyo bakora kugira ngo batsinde neza, izo nama kandi bahabwa zishobora kubafasha na nyuma y'ubuzima bwo ku ishuri.

Abanyeshuri baba bafite ubuhanga budasanzwe bwo guhimba ibintu kandi bashobora guhimba ibintu bitandukanye, bakaba babivuga imbere y'abandi, bakababwira ibintu bijyanye n'ibibaho mu buzima busanzwe ariko babinyujije mu mivugo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bakwiriye kuganirizwa inshuro nyinshi, kugira ngo, bagire ibintu bemeranyaho bishobora kubateza imbere, mu myigire yabo, kandi, babashe kumenya uburyo bashobora kwigamo neza.

Abanyeshuri bari kumurongo, barimo barareba ubahagarariye abaha amabwiriza, bambaye impuzankano, hasi irasa ubururu hejuru irasa umuhondo, urabona bakurikiye neza kandi bafite amatsiko y'ibiri kuvugirwa imbere.

Abantu bateraniye hamwe, i Nyagatare ku kigo, barimo barashaka serivisi zitandukanye kuri icyo kigo cy'amashuri yisumbuye, hariho n'abandi banyeshuri bambaye impuzankano umweru hejuru hasi umukara, ukabona bimeze neza.

Abanyeshuri bakora uko bashoboye kose kugira ngo babashe kugira ubwenge, niyo mpamvu Igihugu kiba cyarashizeho amashuri yisumbuye, kikubaka ibigo by'amashuri hirya no hino mu Gihugu kugira ngo abanyeshuri bahajye bahakure ubumenyi bakeneye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye akenshi na bo baba bakwiriye kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga, ni yo mpamvu mwarimu abajyanama mu byumba byihariye birimo mashine akabereka uko bashobora kwifashisha mudasobwa mu kwiga.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, karuvati ndende, bambaye amashati y'umweru kaki hasi, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, biragaragara ko bahagararanye n'abandi bayobozi kuko abo bahagararanye batambaye impuzankano.

Abanyeshuri bagiye kwifotoreza ahantu runaka. Abanyeshuri baraseka kandi urabona ko bishimye, bambaye impuzankano kandi bose urabona bafite ikinyabupfura kuko abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara. bose barishimye.

umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye, yicaye ku ntebe yambaye itaburiya y'umweru, inkweto z'umukara. Arimo arareba abanyeshuri baje gutira ibitabo kandi ikigaragara yicaye mu isomero.

Umunyeshuri arimo arasoma ibintu byanditse ku rupapuro, bigaragara ko ari umwandiko w'ubwenge yaba yarahimbye, akaba avugira imbere y'abandi cyangwa se abyitoza, aho hakaba hari abandi bantu barimo bamureba.

Kugira ngo umuntu agire ibyo yigezaho bimusaba gushyira mu gaciro, by'umwihariko mu bijyanye n'akazi, akaba yakemera gukora akazi aka ari kose. Harimo kubaka. Umwubatsi ashobora nko kubaka ikigo cy'amashuri cyangwa ubwiherero, akaba yabona amafaranga.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kugira ngo abana babo bige ahantu heza, ibigo by'amashuri biba byarubatswe ku inkunga ya leta gusa izo nkunga kugira ngo ziboneke hatangwa imisoro, niyo mpamvu ibigo by'amashuri byinshi biboneka ahantu hatandukanye kandi bifitiye akamaro abaturage.

Umudamu uhagaze hari utuntu arimo yirebera kandi uko bigaragara ashobora kuba yaragiye mu kigo cy'amashuri, arimo aganiriza abanyeshuri, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigira ahantu heza aho hantu haba harubatswe n'abakozi b'abahanga kandi bafite ubushobozi mu gushushanya ibishushanyo mbonera bityo bagashushanya igishushanyo kigenewe ishuri hanyuma bakacyubaka.

Abana bambaye imyenda isa neza, bambaye impuzankano, buri wese yambaye amasogisi y'umweru, inkweto umukara, ipantaro umukara harimo uturongo tumanuka tw'umweru, hejuru bambaye umupira bigaragara ko ari abana biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagomba kwambara impuzankano kugira ngo buri wese ase na mugenzi we, hari ibigo bigira imipira isa n'amashati asa kugirango abanyeshuri bose bajye bambara iyo myenda bityo bagaragare neza.

Hari ibibumbano bigenda bishyirwa ahantu hatandukanye, ibyo bishushanyo bifasha mu kugaragaza ikintu runaka bityo umuntu yakibona akaba adashobora kukibagirwa kandi bimugirira akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abantu iyo bateraniye hamwe hari insanganyamatsiko bagiye kwigaho, bashobora kwambara impuzankano, cyangwa se imyenda imeze kimwe, kugira ngo bose babashe kumvikana ku ngingo runaka, hanyuma bakomeze ibitekerezo byabo bijyanye.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba bishobora gukenerwa cyane cyane mu gihe hari abantu bashobora kubigurisha bakabona amafaranga, ibyo bikoresho kugira ngo umuntu yige kubibumba bisaba ko amara igihe runaka yitoza.

Ibishushanyo bigaragaza ibiti cyangwa se ibimera, aho mu gihe umunyeshuri ari gusobanurirwa ibijyanye nuko ibinyabuzima bibaho ashobora kwifashishwa ibiti cyangwa ibimera, by'umwihariko ibyo bikoreshwa n'abantu bigisha imyuga.

Intebe z'uburyo butandukanye hari intebe iri hagati ikozwe mu giti, hasi hari utuntu tw'utwuma, izo ntebe zikaba ziri mu cyumba, hari telefone irambitse ku yindi ntebe bigaragara ko iki cyumba ari icyo ku ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye za kaminuza ndetse no mu myuga. Hari ahantu bashobora guhurira, bakaba baganiriye ibintu bitandukanye. By'umwihariko ikintu abantu bagomba kumenya ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni uko bagira umwambaro witwa impuzankano. Mu gihe abantu biga mu mashuri ya kaminuza batagira impuzankano.

Abantu bicaye hamwe barimo barajya inama bungurana ibitekerezo ntawe urogoye undi, bicaye ku ntebe imeze neza buri wese afite intebe ye kandi nta muntu urimo arogoya mugenzi we mu gihe avuga ahubwo bose bateze amatwi.

Abanyeshuri biga ubumenyingiro cyangwa se mu makaminuza baba bashobora gukora utuntu dutandukanye tw'ubwenge, harimo nko gusiga amarangi ku ntebe bikagaragara neza, kwandikaho amagambo, gushushanya ukabona ari ibintu bishimishije.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri biga imyuga baba bafite ubuhanga mu bijyanye n'ubukorikori aho ashobora gukora akantu runaka abantu bakamuha amafaranga bityo nawe akaba yakiteza imbere.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo barebe ko bakiteza imbere by'umwihariko abanyeshuri, niyo mpamvu hari ikayi irambitse ku ntebe hariho n'urupapuro bigaragara ko intebe yicarwaho n'umunyeshuri, ni intebe y'ubururu kandi imeze neza.

Ahantu hari umudamu wambaye ipantaro irimo amabara y'ubururu, umukara ndetse yambaye n'agapira, yambaye inkweto umukarakaba hari ibindi byuma bimeze ukuntu bigaragara ko byifashishwa n'abiga ubumenyi.

Abantu bose bakunda kwifotoza, niyo mpamvu n'abayobozi ba kaminuza na bo bashobora kwifotoreza ahantu runaka bari kumwe n'abandi harimo n'banyeshuri babo. Hagaragara ikirango cya yunivasiti cyangwa se ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda.

Hirya no hino iyo witegereje abanyeshuri biga ubumenyin ngiro cyangwa se biga mu makaminuza ubona bashobora gukora ibintu bitandukanye harimo nko gusiga amarangi ku kintu kikarushaho gusa neza, ubona ko ari ubukorikori buhambaye.

Intebe isa ubururu ikaba iteretseho indobo isa icyatsi nubwo isa nabi hirya y'iyo ndobo hakaba hari indi ndobo y'umutuku, iyo ntebe uko bigaragara yicarwaho n'abanyeshuri bashobora kuba abanyeshuri biga imyuga cyangwa se biga muri kaminuza.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba, bishobora gukorwa nbanyeshuri biga muri kaminuza cyangwa se abize imyuga, gukora igikoresho gikozwe mu ibumba bisaba ubuhanga cyane kuko umuntu agomba kubyigishwa abibyitondeye.

Abantu bakora kwa muganga baba ari abahanga cyane, kuko baba bazi akazi bakora. Umuntu wese ushaka gukora kwa muganga, arabanza akamenya gukoresha ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, kugira ngo azapime abarwayi neza hanyuma abavure nta kwibeshya.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri y'imyuga baba bafite ubushobozi runaka butandukanye, ariko nanone mu gihe umunyeshuri yize imyuga hari ibintu ashobora gukora bishobora kuba byamuteza imbere nk'ibishushanyo mbonera cyangwa se ibindi.